Ahangaha bari kutwereka ibikoresho bitandukanye umuntu akoresha ku mubiri we, n'ibikoresho by'ubwiza, harimo amavuta imibavu eee.

Iyi n'imwe mu miturirwa iri mu mujyi wa Kigali, iyi nyubako y'umutururirwa niy'ikigega cyitwa AGACIRO. AGACIRO n'ikigega abanyarwanda bizigamiramo kugira ngo ubukungu bwabo bubashe kuzamuka.